Abayobozi bari mu cyumba cy'inama basa nk'abari kuganira uko bakorana abantu b'ingeri zose bahanahana ibitekerezo by'ukuntu bakomeza kuyobora ibintu.

Abana babiri bavukana bari gukora igikorwa cyo gukaraba intoki, gukaraba intoki biturinda ibintu byinshi, cyane ko tuba twagiye dukora n'ahantu hatandukanye, dufite mikorobe zitandukanye, koga intoki ni umwe mu mico tugomba kwitoza, kuko biraturinda.

Tumwe mu duce, tumwe mu duce turimo abana baba bikorera ibintu bibarusha imbaraga, hari umunyamahanga uri kubifotora agaragaza ukuntu umwana yikoreye ikijerekani kimurusha imbaraga.

Kimwe mu bintu bidufasha kumererwa neza tukagira ubuzima bwiza buzira umuze harimo no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, uyu mwana ari kutwereka ari kuduha urugero rwiza rwo kugira isuku, harimo gukaraba neza n'intoki n'amazi meza n'isabune.

Uburyo bumwe bwo kubona amazi meza asukuye, kugira ngo babone ubuzima bwiza, abaturage bo muri ako gace bari kuvoma, mu buryo bugezweho n'amazi asukuye aturuka mu butaka.

Kimwe mu bikorwa bagukorera iyo ugiye kwa muganga, abaganga bari bashyizeho icyuma umurwayi bari kureba nimba afite umuvuduko w'amaraso, nimba bafite umuriro mwinshi se kugira ngo barebe niba hari icyo bamufasha.

Kimwe mu bintu bizadufasha kumererwa neza harimo no gukoresha amazi meza afite isuku, tukayakoresha natwe mu buryo kuburyo azajya aguma asa neza afite isuku, ayo mazi akaba aturuka kuri WASAC, urwego rushinzwe kwita ku bijyanye n'amazi, kugira ngo ahorane umwimerere wayo.

Bimwe mu bintu bidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze ni ukuba dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune bityo tukanabitoza abana kugira ngo nabo bazabikurikize bazakure babizi barabishyize mu muco wabo, koga amazi meza n'isabune bituma tugira isuku ndetse ubuzima buzira umuze.

Uburwayi bw'amenyo ni bumwe mu burwayi bushobora gutera ipfunwe abantu baburwaye. Ariko iyo umajije gukira nta kintu gishimisha nko kugenda ubwira abantu ko wakize cyangwa se ukagenda useka nkuko ubishaka ntiyishiraga amenyo yawe abarwaye cyangwa abantu baraguseka.

Bimwe mu bitaro bifasha abantu barwaye mu mutwe cyangwa bafite ikibazo cyo mu mutwe, hitwa Caraes Freres de la charite, niho abo barwayi baba bari, bari kwitabwaho n'abaganga babigize umwuga.

Madamu Jeannette Kagame ari kuvuga ku bintu bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ubuvuzi ndetse n'abaganga ukuntu bagakwiye kujya kujya bafasha abarwayi n'ibindi.

Ni kimwe mu bitaro bivura uburwayi bwo mu mutwe cyitwa karayesi, bavura uburwayi bwo mu mutwe. Umwe mu bayobozi b'icyo kigo ari kubwira abantu cyangwa se ari kwereka abantu icyo kigo cy'imikoranire myiza.

Umucuruzi mu kaduka ke gatoya nk'awahanitsemo amavuta amakorogate ibintu by'ingenzi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi nanone nyira nyiri ako kaduka akarimo ari kwerekana ibyo yigejejeho.

Isange wani sitopu senta ni ikigo cyo mu rwanda gifasha abantu bafashwe ku ngufu cyangwa se bahohotewe, kikabafasha kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze niba bahohotewe ese nta ndwara basigaranye...

Akana kakiri gato karwaye amenyo, kagiye kwa muganga bagiye kugakura amenyo hakoreshejwe uburyo bugezweho ndetse n'abaganga babizi babifitemo ubumenyi, amenyo ni indwara ibabaza cyane, biba byiza iyo umuntu agiye ku bantu azi ko babizi neza.

Ubuzi ubuvuzi bw'amenyo, abaganga babiri bafite umurwayi urwaye amenyo, bari kumukura ndetse bakamufasha no kugira ngo barebe niba amenyo ye yakongera kuba mazima bagakuramo arwaye bagashyiraho amazima cyangwa se akazarindira akamera.

Abana bari mu kigero cy'imyaka mike bari kwigishwa uko bazajya boza amenyo basukura amenyo yabo bakoresheje uburoso ndetse na korogati. Bari mu kigero cy'imyaka mike ni byiza gutoza abana bari muri iki kigero kwikorera ibintu bigiye bitandukanye.

Bumwe mu buryo bwo kuvura umuntu amenyo, akaba asa umweru, ari amenyo aringaniye agiye ku murongo nta kibazo na kimwe umuntu afite ku menyo.

Abaganga babiri bafite umurwayi bari gufasha ku bijyanye n'uburwayi bw'amenyo, bari kumukura bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bambaye udupfukamunwa.

Umuntu afite akantu kamufasha gusukura amenyo ye kugirango imyanda iri mu menyo ye igenda ivamo, bimurinde kuba amenyo yarwara yabora se, cyangwa yahongoka akakantu karafasha cyane nko mu gihe tumazejije kurya.

Gukora siporo zigorora ingingo z'umubiri ku bantu bageze mu zabukuru birafasha cyane bituma umuntu adasaza, cyangwa ngo umuntu ajye yumva yavunaguritse. Siporo ni ubuzima.

Gukora siporo ntabwo bisaba kuyikora iyo ukiri muto cyangwa ufite imyaka mike cyangwa ufite imbaraga. Oya siporo ushobora no kuyikora ugeze mu zabukuru kuko bidufasha kumererwa neza tukagira ubuzima bwiza ndetse ntitunarwaragurike.

Umuryango umwe harimo umupapa ukuze ndetse n'umumama usa nk'ukuze, bari kurya ariko ibiryo bari kurya bihesha ubuzima bwiza, harimo imboga, ibitera imbaraga ndetse bafite n'amazi impande yabo.

Bimwe mu bintu bidufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze harimo no gukora siporo. Hari agatapi bakorerayo siporo burambura ahantu aho ariho hose, ushobora no kukarambura muri saro ugakoreraho siporo harimo pompaje.

Mu gihe tugiye kwa muganga tugiye kwivuza indwara runaka twakwiye gukurikiza amategeko muganga yaduhaye harimo kunywera imiti ku gihe, kunywa amazi se nimba babidutegetse ndetse no kuruhuka bihagije.

Uburyo bwo kwita ku barwayi bwo kwita ku barwayi hagendewe kuba uri inshuti nabo ukamenya uko ubuzima bwabo buhagaze buri munsi, umuganga ari kumwe n'umurwayi yavuye ariko barishimye bari guseka.

Abageze mu za bukuru abasaza bageze mu za bukuru bicaye hamwe bari gukora akazi ko kuboha utuntu tugiye dutandukanye harimo utuma bahahiramo ndetse n'utwo ushobora kwifashisha mu rugo wenda ushyiramo nk'imyenda.

Umu mama ukuze n'abana bakiri bato, bari kumushishiriza kurya imboga ndetse akajya arya n'ibintu bitera imbaraga kugirango age agira ubuzima bwiza, natwe twagakwiye kujya tubyitaho.

Umwe mu basaza mu bageze mu za bukuru ari kumwe n'umuganga umwitaho, ikigaragara cyo uyu muganga yakoze ibishoboka byose kugira ngo afashe uyu musaza byatanze rero ingaruka nziza ko umusaza ari kugenda akira bafite n'akanyamuneza.

Amupapa ndetse n'umumama basa nkaho bakuze bakundana cyane, barakundana cyane bari guseka, bameze neza, bafite ubuzima bwiza nubwo basa nk'abakuze ariko urukundo rwabo rurakomeye.

Umwe mu barwayi bageze mu za bukuru yavuwe n'umwana w'umukobwa ukiri muto, arakira, arishimye, afite ubuzima bwiza, ari guseka, ashimira umuganga we ko yakoze kumufasha kwiyitaho ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bwe.

Mu by'ukuri siporo ntabwo ari iy'abantu b'abana cyangwa urubyiruko n’abamama bageze mu zabukuru ndetse n'abasaza, nabo baba bagomba gukora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umwe mu baturage ugeze mu zabukuru, ari kuvuga ukuntu bamufashije akavurwa kandi agakira, ari gushimira abaganga bamwitayeho, akavurwa ku gihe, akitabwaho agakira.

Mu gihe umurwayi yavuwe indwara ikomeye agakira ndetse nawe akiyitaho aba agomba guhabwa ibihembo bimukwiriye. Umukecuru yari arwaye indwara yiyitaho arakira afata imiti ku gihe baramuhembye.

Ababyeyi bagiye ku kigo nderabuzima, bafite abana, baje kubakingiza. Ababyeyi bane, bafite abana batoya, b'uduhinja, baje kubakingiza ku kigo nderabuzima kibegereye.

Abaganga bari mu gace kamwe, bari gufasha abaturage kubaha inkingo z'indwara z'inzaduka, abaganga bari gukingira abantu bo muri iyo karitsiye, abaganga batatu ndetse n'abaturage bari gufashwa n'abo baganga.

Umwe mu baganga mu kigo nderabuzima kimwe ari gutanga raporo y'ukuntu abarwayi ba kovide nayinitini bitwaye muri Afurika, haba mu kwirinda ndetse no gufata inkingo.

Bamwe mu bakiri bato cyangwa se urubyiruko bari gushishikariza abantu kwirinda kanseri y'ibere bakayisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira uwo muco tuwukurikize.

Mu gihe cya covide cumi n'icyenda, abaganga bagombaga kuba bambaye ibintu bibafasha bibarinda gutuma batandura iyo ndwara, harimo ibintu bimeze nk'amakanzu y'ubururu, kwambara utugofero mu mutwe, uturindantoki se, ndetse n'udupfukamunwa.

Umunsi wahariwe abarwayi ba diyabete ku isi hose ukaba bari gusaba ngo abantu na wo kujya bawizihiza ndetse n'inzu ya Konvensheni yamamaye hose mu Rwanda.

Inama ihuza abaganga muri rusange bo mu gihugu hose, ikaba ari inama yabaye kuri mirongo itatu October. Iyo nama ikaba baraganiraga ku ndwara n'ingaruka ziterwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Bimwe mu bitaro bibafasha gutanga imiti yo kutagwingira, bagira ababyeyi inama mu gihe batwite abo bana ibyo barya kugira ngo abana babo bazavukane ubuzima bwiza, uko bazaba bameze n'ibindi.

Imwe mu nzu ziberamo ubuvuzi hubatse neza harimo amakaro harasa neza, amatara intebe aho abarwayi baza bakabanza bakicara aho babakira bakabazaza uko babafasha.

ibitaro bya kigina herifu seta, ni ahantu heza hubatse neza hari inkingi hari umubyeyi uhagaze uhetse umwana ugiye kwinjira muri icyo kigo nderabuzima cya kigina.

Bimwe mu bitaro biri mu karere ka Shyira, ibitaro biri mu karere ka Shyira byubatse neza bisize irangi ry'umweru, bagira serivisi nziza, bakira ababagana neza, irangi ry'umweru hari amabati yubatse ne....

Umwe mu baganga ari kwa muganga, kwa muganga ahantu runaka. Kwa muganga rero banyujije umurwayi mu cyuma, muganga akaba ari kureba uko umurwayi ahagaze mu mubiri imbere akoresheje ikoranabuhanga.

Zimwe muri serivisi zitangwa kwa muganga, harimo kunyuza umurwayi mu cyuma, hari umurwayi bagiye kunyuza mu cyuma, harimo ibyuma bigiye bitandukanye, bifasha abaganga kureba umuntu mu imbere mu mubiri nimba ameze neza cyangwa se ikindi kibazo yaba afite.

Zimwe muri serivise zitangwa kwa muganga, harimo kumenya icyo umurwayi arwaye, kumufata amaraso ndetse nibindi, umurwayi bamuryamishije ku gatanda bari kumubaza uko ari kwiyumva, uko yafashwe ndetse bari kumufata n'ibipimo.

Ikigo nderabuzima cy'ibitaro bya ruhengeri kiri ku muhanda cyubatse neza hafi yo ku muhanda kuri kaburimbo gikorotirijwe, cyubakishijwe amatafari, ndetse n'utwuma dufashe igikuta cy'ibitaro bya ruhengeri.

Ikigo nderabuzima giherereye ahitwa shegasha, aho abantu bashaka serivisi zimwe na zimwe mu by'ubuzima bagana, abantu bicaye hanze y'icyo kigo bategereje ko bahabwa serivisi n'abandi bategereje kuzibaha.

Imwe mu nzu zicururizwamo imiti igiye itandukanye ikaba yitwa Tageti ndetse akaba ari na farumasi, igiye harimo imiti y'abamama, imiti y'abana, ibikoresho ishobora kwifashisha uri muri siporo ndetse n'ibindi.

Imwe mu nzu zikurwamo imiti yo kwifashisha hirya no hino muri Afurika, akaba ari inzu yubatse neza, yubakishijwe amatafari, isize irange ryiza, hari ubusitani busa neza, harasa neza.

Umwana ukiri muto ararwaye yagiye kwa muganga, umuganga ari kumufasha kumenya uko ubuzima bwe buhagaze kuko afite akuma kumva nimba umutima utera neza ndetse niba ashobora kumva nimba nta mu vuduko w'amaraso afite.

Abaganga bagiye batandukanye harimo abakobwa babiri n'abagabo babiri, bari muri laboratwari cyangwa se ahantu basuzumira imiti, ibiribwa cyangwa se n'ibindi nimba byujuje ubuziranenge.

Imwe muri serivisi zitangwa kwa muganga cyane cyane imwe y'abarwayi baraye kwa muganga cyangwa se bari mu bitaro uko umuganga abyuka buri gitondo akaza kureba uko baramutse, nk'umuganga hano yabyutse yaje kureba uko umurwayi aramutse afite n'akuma ashobora kumva neza niba umurwayi umutima w'igitera.

Inzu imwe mu nzu ziri hano mu Rwanda yubatswe neza ikaba yubakeshwa amatafari ndetse n'amabuye bimeze neza, hari jaride, hari ubusitani bwiza. Ikaba ari inzu yifashishwa mu gihe cy'ubuvuzi.

Hamwe mu hantu hifashishwa mu gihe bari kuvura nk'umurwayi, icyuma cyo kwa muganga gifasha kureba umuntu niba ameze neza, hari agatanda umurwayi aryamaho, hejuru hakaba hari icyuma umuganga ashobora kureberamo uko umurwayi ameze mu mubiri mu imbere.

Botike ikorerwamo cyangwa inzu ikorerwamo igurirwamo imiti iyo nzu ikaba yitwa Peniel Pharmacy akaba ari farumasi ishobora kugurirwamo imiti igiye itandukanye bakaba bakorana n'ubwishingizi butandukanye harimo Mediplan, RSSB ndetse na rama.

Kimwe mu bigo nderabuzima cyitwa ikigo nderabuzima cya gishweru cyubatse neza hari abaganga, hari abarwayi, ndetse n'abakozi bagiye batandukanye bagikoraho hubakishijwe amatafari hari isuku.

Inzuzu yagenewe gukorerwamo siporo, harimo ibyuma bigiye bitandukanye, bifasha umuntu kugorora ingingo z'umubiri, harimo gukora pompaje, ibyuma bigufasha no kumenya ukuntu uhagaze, uvuduko uri kugenderaho,

Zimwe mu nyubako ziri kubakwa zizajya zifashishwa nk'ibitaro ndetse n'ibindi. Izo nzu zikaba ziri kubakwa ahantu heza ku muhanda, zikaba zifite ibirahure. Zubakishijwe amatafari ndetse zirasa neza.

Mu gihe umuntu asoje gukora siporo, ashobora kunywa amazi meza kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza kandi bimurinda no kurwaragurika indwara zigiye zitandukanye.

Umuganga ari gukoresha umurwayi siporo mu gihe umurwayi yakoze nka siporo cyangwa se akavunika ndetse n'iyo yakoze impanuka bamutegeka kujya gukora siporo umuganga rero ari kumwereka ukuntu yakora siporo.

Igikoresho kimwe mu bikoresho gifasha abaganga kumva nimba umutima w'umuntu utera neza cyangwa se imyanya y'ubuhumekero ye ikaba iteye neza, igikoresho gishobora no gukoreshwa mu gihe umuntu akora siporo, ukora siporo cyane, hari n'ibintu bigiye bitandukanye ukoresha siporo harimo umupira, ga zo kwambara mu gihe ugiye gukina umukino wawe wo guterana amakofe.

Umurwayi aje agana umuganga yari ari gukora siporo ariko yavunitse, yavunitse mu gice k'ivi, ivi ryakomeretse muganga ari kumufasha uko ashoboye kose kugira ngo yongere amererwe neza.

Bimwe mu bintu byifashishwa iyo wakoze impanuka muri siporo, kikaba gikoreshwa nka bande, ukizirikaho nk'ahantu wavunitse, ukizirika ahantu wavunitse cyangwa se ahantu wakomeretse kugira ngo wongere ukire.

Umuntu ufite gurude y'amazi ari kunywa amazi nanone asa nkaho atagaragara neza uwo muntu, ariko afite gurude y'ubururu irimo amazi ari kuyanywa, kandi nanone amazi arafasha mu buzima bwa buri munsi.

Iyo umuntu avuye muri siporo aba ananiwe cyane cyangwa se yayirimo. bimwe mu bintu bimufasha kuruhuka neza ugomba kwimenaho amazi kugira ngoyumve agaruye imbaraga ndetse n'ubuyanja, ikindi kandi na none akanywa amazi kenshi gahagije.

Bimwe mu bintu bidufasha gukora siporo neza tugakora siporo neza dutuje dufite umutima utuje ni ukwihatira kunywa amazi kuko amazi ni ubuzima, amaze adufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haba mu gutembera kw'amaraso mu mubiri ndetse no kumererwa neza mu gihe tukomajije gukora siporo.

Hari ibikoresho biba bigomba kwifashishwa n'umuganga cyangwa se n'umuntu ugiye gufasha umurwayi, harimo ga zo kwifashisha mu gihe agiye kuvura uwo muntu, harimo udupfuko, binini bivura umutwe, inshinge ndetse n'udupima umuriro ko wazamutse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa muri siporo harimo icyitwa ariteri, akaba ari icyuma kinini umuntu aterura kugira ngo abe munini mo mu gatuza n'ahandi hari utundi twuma tubiri aterura dutoya two mu ntoki akaba yambara nko mu gihe agiye gukina iteramakofi.

Imiti ifasha abantu bakora siporo muri iyo miti harimo bande, agatambaro bizirikisha mu gihe bavunitse, harimo umuti bisiga mu gihe ukomeretse cyangwa wavuye igisebe n'indi miti imeze nka pomade bagenda bisiga ahantu havunitse.

Kimwe mu bintu bidufasha gukora siporo neza harimo no kwihatira kunywa amazi kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza, kunywa amazi mu gihe umubiri uri muri siporo ndetse n'imyitozo ngororangingo.

Kimwe mu bintu byadufasha kumera neza harimo siporo, nyuma yaho haza no kunywa amazi, amazi adufasha ibintu byinshi aturinda indwara ndetse agatuma tumererwa neza mu bijyanye no gutembera kw'amaraso.

Imwe mu modoka zikoreshwa ziri gufasha abarwayi kubageza kwa muganga byihuta, iyo modoka haba harimo umuganga ufite imiti y'ibanze akagenda afasha umurwayi aka bageze kwa muganga kugira ngo hatagira ikintu kibi kimubaho.

Kimwe mu bintu bishobora kudufasha kumererwa neza tukagira ubuzima bwiza buzira umuze, harimo no gukora siporo ngororamubiri ndetse tukajya twikanda amavi ndetse n'ibindi kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Zimwe muri siporo dukora harimo ukuntu abaganga cyangwa abatoza ba siporo bashinzwe kutwereka ibyo dukora muri siporo, kikaba ari icyumba cyahariwe gukorerwamo siporo kitwa jimu.

Hari igihe umuntu ari gukora siporo akavunika nko mu ivi, iyo umuntu avunitse mu ivi rero, akenshi ntago ashobora kugenda kuko amagufwa yo mu mavi, ni amwe mu magufwa adufasha kuba twagenda, iyo rigize ikibazo rikavunika rero ntabwo umuntu aba agishoboye kugenda.

Akantu bifashisha, agakoresho bifashisha mu gihe bari muri siporo, urugero n'igihe uri muri siporo ukavunika cyangwa ugatsikira, aka kantu gakora nka bande ushobora kukizirikisha, kugirango ushobora kukizirikisha kugira ngo ugabanye ububabare.

Kimwe mu bintu bidufasha kubaho neza, harimo gukora siporo, imyitozo ngororangingo ndetse hakabamo no kunywa amazi meza kugira ngo tuzagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ikintu gishobora kudufasha mu gihe turi muri siporo ga, ga zishobora kudufasha kutavunika intoki mu gihe turi nko gutera no kumva ko dukomeye nk'intoki cyangwa ibipfunsi, izi ga zishobora kudufasha kugira ngo ntidukomereke.

Umuntu uri gukora siporo, imyitozo ngororamubiri, arikuyikorera mu rugo yambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri ifasha ibintu byinshi mu bijyanye n'ubuzima no kumererwa neza ndetse no kwaguka k'umubiri.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo ngororangingo, harimo umupira w'amaguru n'umupira w'amaboko, udutenesi ndetse n'udupira dukinwa mu mukino witwa tenisi, hakaba hari akuma bakoresha bagira ngo nimba umuntu ari guhumeka neza cyangwa amaraso ari kugenda neza mu mubiri.

Umuntu uri kunywa amazi ari mu icupa ari mugihe cyo gukora siporo, mu gihe cyo gukora siporo umuntu agomba kunywa amazi kuko afasha byinshi ku mubiri, nyuma gukora siporo ugomba kunywa amazi kugirango agarurire imbaraga.

Bimwe mu binini bifasha abarwayi kugabanya ububabare, akaba ari ibinini bigufasha kugabanya ububabare byitwa stopain. Ibyo binini ushobora kubikoresha wakomeretse cyangwa se uri kuribwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umwe mu baganga bashinzwe gukangurira abaturage gukora siporo, umuganga ari gukoresha umurwayi siporo ahagana mu ivi mu gice k'ivi, ari kumukanda amwerekera n'ukuntu yazajya ayikora.

Zimwe muri siporo zigiye zitandukanye zidufasha kugira ubuzima bwiza, harimo gukora siporo z'amaboko, harimo gukora siporo zo guhuza inkokora, harimo gukora siporo z'intoki, z'ibiganza, ndetse na siporo zo kugorora amaguru.

Mu kibuga mu gihe abakinnyi b'umupira bari gukina umukino w'amaguru umupira w'amaguru, hari igihe umukinnyi ahura na akisida akagwa hasi akavunika, haba hari abana baba bagomba kumufasha bakamubaza uko ameze, bakamuha umuti umworohereza ububabare, n'ibindi.

inkweto z'umukara zisa nk'izikoreshwa n'abapolisi cyangwa se n'abasirikare bitewe n'ukuntu zikomeye kujya zibe zabarinda ariko n'abandi bantu bazambara, ku nkweto hariho agapapuro kerekana ko izo nkweto zikiri nshyashya kandi nta muntu wazambaye.

Kimwe mu bintu bishobora kudufasha gukora siporo neza, kandi tukagira n'ubuzima bwiza n’ ukunywa amazi ndetse tugakora na siporo zigiye zitandukanye, wamara gukora siporo tukibuka kunywa amazi, bityo bizatuma tugira imbaraga ndetse n'ubuzima bwacu bukomeze bumere neza.

Gukora siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi ntarwaragurike mbese akagira ubuzima bwiza buzira umuze. Bityo rero tukaba dushishikarizwa gukora siporo ngorora imyitozo ngororangingo kugira ngo tuzabashe kujya tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Bimwe mu bintu bidufasha kumererwa neza tukaba twangize ubuzima bwiza buzira umuze harimo no gukora siporo ndetse tukihatira no gukora ibintu byose byatuma tumererwa neza.

Siporo ingororangingo, siporo mu gihe umuntu akora siporo yakwiye gufata imbuto, harimo n'imboga, karoti, amashu, imbuto, pome, amaronji ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bimufasha kumererwa neza.

Bumwe mu buryo bwo gukora siporo n'abandi bagiye batandukanye, harimo umukino witwa basiketibolo umukino umupira w'amaboko, hano ubifata ari benshi bagakina umupira w'amaboko bakajya banaga mu kantu kameze nk'agatebo nabyo bikaba bifasha umubiri kumererwa neza.

Imwe mu miti gakondo akenshi iba ihinzwe ahantu mu ishyamba, ahantu hari ibiti byinshi, hari amafu ndetse hari n'ubutaka bwera ku buryo uwo umuti uzakura utoshye, usa neza kugira ngo uzagirire akamaro abantu bazaba bafite indwara zitandukanye.

Umuti gakondo wa Kinyarwanda ni umuti ukorwa mu gikakarubamba hakavamo n'amavuta yitwa haroya vera, amavuta meza cyane akorwa mu gikakarubamba akiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ni umwe mu miti ya kinyarwanda bawita selumu uvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye ni umuti wo kwisiga uri mu gacupa k'umweru, ufite agafuniko k'ubururu, umuntu ashobora kuwukoresha kubera indwara zitandukanye.

Bamwe mu baganga bakora ku kigo nderabuzima runaka, bari kugenzura imiti nimba imeze neza, ku buryo bashobora kuyitera nk'abarwayi cyangwa se bakayibaha mu gihe bayibandikiye.

Imwe mu miti ya kinyarwanda umuti gakondo uri mu icupa ry'ikirahure, harimo umuti uvura amibe, uvura inzoka zo mu nda ndetse n'ibindi.

Imwe mu miti idufasha kutuvura indwara zitandukanye, akaba ari umuti wa kinyarwanda ufunze mu gashashi, ufite garama ijana, ukaba ari utubabi dushobora kudufasha mu ndwara zigiye zitandukanye.

Imwe mu miti gakondo umuti witwa foreva aha uvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo mibe, kuba umuntu afite umuriro mwinshi ndetse no kurwara inzoka za hato na hato ibi bishobora...

Imwe mu miti gakondo igiye itandukanye, harimo tangawizi ndetse n'indi miti ikoreshwa ariko ari uko babanje kuyisekura. Iyo miti ikaba ivura mu gihe bitandukanye wenda se baraguhumanyije, munda, kuvunika ndetse n'ibindi.

Imiti gakondo imiti y'ibyatsi bakoresha hakoreshejwe uburyo bwo kuwusekura cyangwa kuwusya, ikaba vura ibintu bgiye bitandukanye.

Umwe mu babyeyi bakuze ari gusoroma umuti gakondo witwa umuravumba, umuti w'umuravumba uvura ibicurane, uvura inkorora, avura inzoka, uyu mubyeyi kubera ko azi akamaro kawo ari kuwusoroma na we.

Imwe mu miti gakondo igiye itandukanye se ibura ibintu bike bitandukanye abavuzi gakondo ushobora kuyiguha bitewe n'indwara urwaye.

Uyu muti ufite garama ijana muri uyu muti hakaba harimo na tungurusumu akaba ari umuti gakondo ukizaza ibintu bigiye bitandukanye amibe inzoka zo mu nda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

imwe mu miti ya kinyarwanda ihingwa ivura ibintu bigiye bitandukanye zaba amibe, inzoka ndetse na malariya imwe mu miti ihingwa, imiti ya kinyarwanda ivura ibintu bigiye bitandukanye.

Imiti gakondo, uyu muti gakondo ni icyayi kigizwe na tangawizi ndetse n'indimu kikaba kivuga ibintu byinshi harimo: ibicurane, inkorora no kumva umuntu Umutwe uri kumujya.

Imwe mu miti gakondo, ikoreshwa mu biHe bitandukanye, harimoto itandukanye ibintu bitandukanye poreri iyo umuntu arwaye ashobora kugana abavuzi gakondo, bakaba bamenye umuti wa bamuha bitera indwara.

Ubuvuzi gakondo, kimwe mu bavuzi gakondo harimo imiti itandukanye kandi ivuye n'ibintu bitandukanye imiti ikunze gukoreshwa muvuzi gakondo myinshi muri yo ibihingwa harimo n'indabyo ibyatsi n'indi bitandukanye.

Umuti uvura amibe witwa leshi ukaba ari igisubizo kuri amibe niyo yonyine ishobora guhangana na mibe kugira ku kigero cyo hejuru kugira ngo umuntu akire amibe agomba kwifashisha uyu muti urafasha cyane.

Umuti witwa revevo ukaba ari igisubizo ku muryango uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, bikavura n iningaruka zo kwikinisha ikavura igakumira n'indwara zifata porositate.

Imiti gakondo izwi nk'imiti bakunda kwita iya kinyarwanda, ni imiti igiye itandukanye, ikaba ikoreshwa babanje kuyisekura, bakayishyira mu mazi, ivura ibintu byinshi. Iri akaba ari isoko ricuruza iyi miti gakondo.

Imwe mu miti gakondo, imiti gakondo imwe muri yo ikaba ihingwa, ni imiti ihinze ahantu heza hatoshye haboneka amazi uko bishoboka kugira ngo izafashe abarwayi iminsi iri imbere.